Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato, bafite amakaye muntoki zabo bari kwandikamo incamake y'inama.

Ku ivomero rusange aho abana babiri bakiri bato baje kuvoma amazi meza bitwaje indobo kugira ngo bajye kuyakoresha mu rugo rwabo. Umwe ari gukorera mugenzi we indobo y'icyatsi kibisi kugira ngo bajyane amazi meza mu rugo.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, ndetse n'abagore. Bafite utumeza imbere yabo imbere yabo duteretseho amazi yo kunywa.

Uu ivomero rusange aho abaturage bavoma amazi meza bakajya kuyakoresha mu ngo zabo, hari abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira bakarabe imyanda yose.

Ku ivomero rusange aho abaturage barimo ingeri zitandukanye abagore, abagabo ndetse n'abana bakiri bato, bazanye amajerekani ndetse n'indobo kugira ngo bavome amazi meza ari kuva muri robine. Hakurya y'ivomero kandi hateye ibiti.

Ku ivomero rusange aho umugore ukuze yazanye ijerekani kugirango avome amazi meza ari kuva muri robine, hakurya y'ivomero hateye ibyatsi ndetse n'ibiti by'ubwoko bwinshi.

Ahabereye ubukangurambaga bwo kwimakaza imirire myiza mu bana bakiri bato, aho umusore ufite ibiryo ku isahani ari kugaburira umwana ukiri muto uteruwe na mama we, kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyabageni, habereye igikorwa cyo gupima abaturage kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa kugira ngo babapime ko nta ndwara bafite.

Ku ivomero rusange aho abaturage bavoma amazi meza yo gukoresha mu ngo zabo. Hari abagore babiri bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine. Imbere y'irivomero kandi hateretse amajerekane yo kuvomeramo amazi.

Ku kiyaga aho umukobwa ukiri muto yazanye ijerekani, aho ari kudaha amazi ava mu kiyaga ayashyira mu ijerekani afite. Iruhande rwacyo hari umusore uri koza ipine y'igare. Iruhande rw'ikiyaga kandi hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato, bazanye utujerekane kugira ngo bavome amazi meza ari kuva muri robine, umuhungu umwe muri bo ni we uri kubafasha gusunika amazi, ava muri robine ajya mu tujerekani, hakurya y'ivomero kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho abaturage baje kuvoma bitwaje amajerekani kugira ngo batware amazi meza ari kuva muri irivomero, hakurya y'ivomero kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari koga intoki bakoresheje amazi ari kuva muri robine kugirango imyanda iyo ariyo yose ishobora kubatera uburwayi.

Umwana ukiri muto wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe. Afite ibirahure mu ntoki ze birimo amazi meza yo kunywa, iruhande rwe hari ikiziba, hakurya yacyo hahagaze abandi bana bari kumureba.

Ku ivomero rusange, aho umugore uhetse umwana we mu mugongo, ari koza indobo, akoresheje amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo akureho imyanda. Hakurya y'ivomero hateye ibiti, by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange, aho abana bakiri bato baje kuvoma, bitwaje utujerekani. Kuri iryo vomero harimo umwana uri kubafasha gusunika amazi, ayavana muri rubine ayohereza mu tujerekani, abandi bahagaze iruhande rwe, bari kumureba.

Ahabereye igikorwa cyo gupima ibiro by'abana, kugirango bamenye niba ntakibazo cy'mirire mibi bafite, bari kubifashwamo n'umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Mu rugo rw'umuturage, aho umujyanama w'ubuzima ari kuganiriza umubyeyi, akoresheje ibishushanyo kugira ngo amwereke uburyo bagomba kwiyitaho mu ngo zabo, bakirinda indwara zishobora guturuka ku mwanda cyangwa ibindi.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, ndetse n'abagore, umwe muri bo ahagaze imbere ayoboye inama, iruhande rwe hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hicaye abayoboye inama kandi buri wese afite icupa ry'amazi iruhande rwe.

Ku ivomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza, hari umwana muto ufite igikombe mu ntoki ze ari kuvoma amazi meza kugira ngo ayanywe maze ashira inyota, hakurya y'ivomero hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi, hari umugabo ubahagaze iruhande ari kubasukira amazi ayavanye mu gikombe.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gutera urushinge umwana ukiri muto uteruwe na mama we, iruhande rwabo hateretse ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa.

ku ivomero rusange aho abana bakiri bato bazanye utujerekane kugira ngo batware amazi meza ava kurira ivomero, hari umukobwa uri kubafasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu tujerekane twabo, hakurya y'ivomero hateye ibiti by'ubwoko butandukanye kandi haparitse imodoka.

Ku ivomero rusange aho umusaza ukuze yazanye ijerekane yo gutwaramo amazi meza ava muri iri vomero, hakurya y'ivomero hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye ndetse n'amazu y'abaturage.

Mu rugo aho umubyeyi ukiri muto wambaye ingofero mu mutwe ari koga amazi meza yifashishije igikoresho cya kandagira ukarabe, kugirango birinde indwara zishobora guturuka ku mwanda.

Ku ivomero rusange aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe bazanye utujerekani ndetse n'indobo kugira ngo batware amazi meza avuye muri robine, hakurya y'ivomero hateye ibiti by'ubwoko bwinshi.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'abagore baje kuvoma amazi meza kuri iri vomero, umwe muri bo ari kubafasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu ndobo baje kuvomeramo, hakurya y'ivomero kandi hateye ibiti.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, aho abagabo babiri bicaye imbere bayoboye inama. Imbere yabo hari amacupa arimo amazi meza yo kunywa, inyuma yabo kandi hari icyapa kigaragaza ibiri kuranga inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe, imbere yabo harambitse amacupa arimo amazi meza yo kunywa kandi umugore umwe ni we ubahagaze imbere, ari kubakoresha inama.

Ku ivomero rusange aho abana babiri bakiri bato bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine, kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Icyumba cyabereyemo igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato kugira ngo babarinde indwara. Cyitabiriwe n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe aho bari gukingira abana bakiri bato baryamye ku gitanda.

Ku ivomero rusange, aho abaturage b'abagore, bazanye amajerekane kuvoma amazi meza ari kuva muri robine ajya mu majerekani yabo. Hakurya y'ivomero, hateye insina ndetse n'ibindi bimera bitandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe barebana, imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse bafite amakaye yo kwandikamo incamake y'inama, ku meza kandi hateretse amavaze arimo indabo.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyabageni, hari abaturage b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bari baje mu gikorwa cyo kwita ku barwayi, bamwe muri bo bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe barahagaze abandi baricaye, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyaranze uwo munsi bari gufata ifoto.

Ku ivome rusange, aho umwana ukiri muto yaje kuvoma yitwaje amajerekani. Amazi ari kuva muri robine ajya mu ijerikani ari kuvomeramo, iruhande rw'ivomero kandi hateye ibyatsi.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari kuvoma amazi meza mu bigega byabugenewe, bakayanywa bakoresheje ibikombe.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo umurwayi uryamye ku gitanda abarwayi baryamaho, uri kwitabwaho n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kugira ngo bamenye ikibazo afite.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Hari abasore ndetse n'abakobwa bahagaze imbere muri iki cyumba, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini kigaragaza ibiri kuranga inama.

Ahaberiye inama yahuje abajyanama b'ubuzima bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, abaganga ndetse n'abayobozi babo. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, kandi inyuma yabo hateye ibiti by'ubwkoko butandukanye.

Ku ivomero rusange, aho umwana ukiri muto w'umuhungu ari kuvoma amazi meza ari guturuka muri robine, ari gukoresha ibiganza bye akanywa amazi ari kuva muri robine, hakurya y'ivomero kandi hateye ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho abagore baje kuvoma amazi meza ari kuva muri iri vomero. Umwe muri bo ari kubafasha gusunika amazi ava muri robine ajya mu ndobo baje kuvomeramo. Hakurya y'ivomero hateye ibiti.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari kwita ku mubyeyi uryamye ku gitanda, kugira ngo bamenye neza uburwayi yaba afite.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe bose bari kurebana batanga ibitekerezo.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto ari koga intoki akoresheje amazi meza, ari kuva kuri iri vomero kugira ngo yirinde imyanda iyo ari yo yose, hakurya y'ivomero kandi hateye ibyatsi.

Icyumba kiri mu nyubako yo ku ishuri aho abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro yabugenewe, bicaye mu ishuri bafite ibyo kurya imbere yabo, inyuma yabo kandi hari ikibaho cyanditseho amasomo.

Icyumba cyabereyemo igikorwa cyo gupima abaturage kugira ngo bamenye niba nta ndwara bafite, aho umujyanama w'ubuzima wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gupima umusaza kugira ngo amenye niba umuvuduko we w'amaraso uhagaze neza.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo: abasore ndetse n'abakobwa abagabo n'abagore bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini kigaragaza ibyaranze inama.

Ku ivomero rusange aho abaturage baza kuvoma amazi meza, hicaye umukobwa uri kuvoma amazi ari kuva muri robine, imbere ya robine hateye ibyatsi, naho inyuma ye hari umugozi wanitseho imyenda.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye hamwe barebana, bafite mudasobwa imbere yabo ndetse n'amakaye yo kwandikamo incamake y'inama.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari kuvoma amazi meza yo kunywa, ava mu kagega kabugenewe bakayanywa bakoresheje ibikombe bisa neza.

Abagize itsinda ry'abajyanama b'ubuzima harimo abagabo ndetse n'abagore bose bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bahagararanye n'umuyobozi wabo bari gufata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ku ivomero rusange aho abana babiri bakiri bato baje kuvoma bitwaje indobo kugira ngo batware amazi meza, iruhande rw'ivomero hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato babarinda indwara, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi iruhande rwabo hari idarapo y'Igihugu cy'u Rwanda.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hamwe mu ihema, imbere yabo hari umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite indangururamajwi ari kubakoresha inama. Hakurya hateye ibiti.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ni bo bari kubakingira, imbere yabo kandi hateretse ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Ku ivomero rusange, aho abaturage b'ingeri zitandukanye bazana amajerekane ndetse n'indobo, baje kuvoma amazi meza aturutse muri robine kugira ngo bayakoreshe mu mirimo itandukanye, ikorerwa mu rugo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n' abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye hamwe imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse na mudasobwa ziri kwifashishwa mu kazi.

Abana babiri bakiri bato bari gukaraba intoki, bakoresheje amazi meza kugira ngo birinde indwara zose, zishobora guturuka ku myanda, yari iri mu ntoki zabo, umwe ari gusukira mugenzi we amazi meza ayakura mu gikombe.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, aho ababyeyi babo babazanye kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga barebe ko nta zindi ndwara bafite zishobora guteza ibibazo.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bakiri bato b'abanyeshuri, harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi biturutse ku mwanda.

Umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kanseri. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Bose bambaye ingofero z'umweru ndetse bamwe muri bo bambaye imipira y'ubururu, abandi bambaye umupira w'umweru, bafite icyapa imbere yabo kigaragaza insanganyamatsiko y'umunsi.

Kwa muganga aho bakirira abarwayi baje guhura na muganga, hari abaturage benshi bicaye bategereje kwakirwa, aho abari kubakira babicaye imbere bafite mudasobwa bari kwandikamo amakuru.

Aha bari mu gikorwa cyo gukingira abaturage kitabiriwe n'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa; aho bari kwitabwaho n'abaganga ndetse iruhande rw'inyubako hari imodoka.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa ndetse baritwikiriye mu mitwe. Bafite ibikarito mu ntoki zabo harimo imiti.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga aho basuzumira abarwayi, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bose bambaye udupfukamunwa kandi bipfutse mu mitwe, bari gusuzuma umurwayi bareba uko umuvuduko w'amaraso uhagaze bakoresheje igikoresho cyabugenewe.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, aho abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari gukingira abana bato kugira ngo babarinde indwara zitandukanye.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto w'umuhungu ari gukaraba amazi meza ari kuva muri robine, ari koza intoki ze kugirango akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi butandukanye.

Umwana w'umuhungu ukiri muto wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ari gukaraba intoki akoresheje amazi meza ri kuva mu indobo y'umweru; kugira ngo yirinde imyanda iyo ariyo yose ishobora kumutera uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana muto amutera urushinge kandi uyu mwana ateruwe na mama we.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage kitabiriwe n'abantu b'ingeri nyinshi harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Iruhande rw'iyi nyubako kandi haparitse imodoka.

Ku ivomero rusange aho abaturage bazana utujerekani kugira ngo bavome amazi meza ava muri robine. Hari umwana muto wazanye akajerekani, ari kuvoma abifashijwemo n'umwana w'umunyeshuri umuri hejuru. Hakurya y'ivomero hari gutambuka abaturage.

Ku ivomero rusange, aho abana bakiri bato harimo abahungu ndetse n'abakobwa bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza ari kuva muri robine; kugira ngo bakureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto arigutega ibiganza bye agafata amazi ari kuva muri robine akayanywa, iruhande rw'ivomero kandi hari intebe yo kwicaraho ndetse n'abandi baturage.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere hicaye abagabo babiri, umwe afite indangururamajwi ari gukoresha inama, imbere ye kandi hateretse mudasobwa ari gukuramo amakuru.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hamwe barebana, bafite amakaye mu ntoki zabo bari kwandikamo ibiri kuranga inama.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, ndetse banabapime ibiro byabo, kugira ngo bamenye niba bafite imirire myiza. Cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, ndetse n'abaganga.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe yambaye agapfukamunwa ndetse na ga mu ntoki, ari gutera urushinge umuturage waje kwikingiza kugira ngo amurinde indwara zitandukanye.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto uri kuvomera mu ndobo, ari kunywa amazi akoresheje ibiganza bye; hakurya y'ivomero hateye ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, aho umugabo ahagaze imbere ari gukoresha inama, iruhande rwe hari intebe ndetse n'amazi ateretse ku meza.

Ku ivomero rusange, aho abana babiri bakiri bato, bari gukaraba intoki bakoresheje amazi meza, ari kuva muri iri vomero kugira ngo bakarabe imyanda yose, ishobora kubatera uburwayi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage ndetse no kubasuzuma indwara zitandukanye, hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe nibo bari gukora iki gikorwa aha kandi hateretse ameza, ateretseho mudasobwa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, umwe muri bo ari gutanga igitekerezo, imbere yabo kandi hari icyapa kigaragaza intego y'inama.

Ku ivomero rusange aho abaturage, harimo abana ndetse n'abasore baje kuvoma amazi meza bitwaje amajerekani kugira ngo bacyuremo amazi, iruhande rw'ivomero hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi wambaye agapfukamunwa ari gukingira umuturage wicaye ku ntebe amutera urushinge.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako y'ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bari kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ndetse zikerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu.

Hanze y'Ikigo cy'amashuri aho umwana w'umukobwa wambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe ari gukaraba intoki, akoresheje amazi meza kugira ngo akureho imyanda iyo ari yo yose ishobora kumutera uburwayi. Iruhande rwe kandi hari indobo yo kujugunyamo imyanda.

Ku kiyaga aho umwana ukiri muto yazanye akajerekani kugira ngo adahe amazi ari mu kiyaga ajye kuyakoresha mu rugo, hakurya y'ikiyaga hateye ibyatsi ndetse n'ibihingwa by'ubwoko butandukanye.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi wambaye agapfukamunwa ari gukingira umuturage wicaye mu ntebe amutera urushinge.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukingira umwana ukiri muto ndetse akumva uko umutima we uri gutera yifashishije igikoresho cyabugenewe.

Igikorwa cyo gupima abana bakiri bato bareba neza ko bafite ibiro byuzuye kugira ngo bamenye niba bahabwa indyo yuzuye, umwana ukiri muto ahagararanye n'umupapa, aho ahagaze ku munzani kugira ngo amenye ibiro bye.

Mu cyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso kandi inyuma yabo hari icyapa kigaragaza ibyaranze inama.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto ari kuvoma amazi meza ari kuva muri robine kugira ngo ayanywe, hakurya y'ivomero kandi hateye ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, kugira ngo babarinde indwara zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gukingira umwana ukiri muto uteruwe na mama we.

Ku nyubako y'ikigo cy'amashuri aho abana bakiri bato b'abanyeshuri harimo abakobwa ndetse n'abahungu bose bambaye imipira isa y'ubururu, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ku ivomero rusange aho umwana ukiri muto yazanye amajerekani kugira avome amazi meza ava muri robine ajya mu majerekani yaje kuvomeramo. Hakurya y'ivomero kandi hateye ibyatsi.

Icyumba kirimo imashini z'ubwoko butandukanye, zifashishwa mu gutunganya ibyo kurya kugira ngo bibashe koherezwa ku isoko, harimo umugabo ushinzwe kubyitaho, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu higanjemo abagabo. Bicaye hamwe bari kurebana kandi bafite amakaye bari kwandikamo inshamake y'inama.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage indwara zitandukanye, cyitabiriwe n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Imbere y'abo hari ameza ariho ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira abarwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye hamwe barebana, imbere yabo kandi harambitse amacupa arimo amazi yo kunywa.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bari kuganira imbere yabo hateretse amacupa arimo amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo incamake y'inama.

Ku ivomero rusange aho abaturage b'ingeri zitandukanye, harimo abana bato, abagore ndetse n'abagabo, bazanye amajerekane kugira ngo bavome amazi meza ari kuva muri iri vomero. Umugore umwe muri bo ni we uri kubafasha gusunika amazi ava muri robine, ajya mu majerekani kandi hakurya y'ivomero hateye ibihingwa.

Ku ikiyaga aho abana babiri umukuru ndetse ukiri muto, bazanye amajerekani kugira ngo badahe amazi mu kiyaga bajye kuyakoresha, hakurya y'ikiyaga hateye ibyatsi by'ubwoko bwinshi.

Umuhuro w'abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze, bamwe muri bo bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, umugabo abicaye imbere ari kubereka uburyo bagomba gutanga ubutabazi bw'ibanze.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, baricaye hamwe bafite amacupa imbere yabo arimo amazi meza yo kunywa ndetse n'amakaye yo kwandikamo inshamake y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abahungu, ndetse n'abakobwa, imbere yabo hateretse ameza ariho amakaye yo kwandikamo incamake y'inama, bose bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kimwe mu cyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore. Umugore umwe muri bo afite indangururamajwi, ari gutanga igitekerezo cye. Imbere yabo kandi hari ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'ibyo kunywa nk'amazi ndetse na fanta.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo; abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, abandi baricaye barigufata ifoto y'urwibutso.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari icyapa kinini kigaragaza iyi nyubako, kiyobora abaje bayigana. Hanze y'iyi nyubako kandi hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko bwinshi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo ababyeyi. Umugabo ahagaze imbere ari kukoresha inama, yandika amagambo ku gipapuro. Ku meza kandi hateretse icupa ry'amazi meza yo kunywa.

Igikorwa kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe, bafite utwapa mu ntoki zabo, bari gufata ifoto y'urwibutso. Inyuma yabo kandi hari icyapa kinini cyane, kerekana ibyaranze uwo munsi.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi haparitse imodoka.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abasore ndetse n'abakobwa, bahagararanye n'abayobozi babo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato imbere yabo hahagaze umu mama, niwe uri kubakoresha inama.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya bitandukanye, harimo umukobwa wambaye umwambaro w'umuhondo ndetse n'ubururu kandi afite imisatsi miremire ni we ucuruza ibi ibyo kurya biri muri iki cyumba.

Ahabereye igikorwa cyo gutera ibiti ndetse n'indabo kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bambaye imipira y'umweru, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu rugo rw'umuturage ahari umubyeyi uhetse umwana muto mu mugongo ndetse n'uwundi umuhagaze iruhande. Ari guteka igikoma cyo kunywa kugira ngo abana barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe bakurikiranye inama muri iki cyumba, kandi ku gikuta hariho televiziyo.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye. Imbere y'abitabiriye inama harambitse amacupa arimo amazi yo kunywa. Hari umugabo kandi uhagaze imbere yabo ni we uri kubakoresha inama.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa bahagaze hamwe bose bari gufata ifoto y'urwibutso.

Ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa, ni igikorwa cyitabiriwe n'abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, aho bambaye imipira y'ibara ry'icyatsi kibisi, bakaba bafite kandi icyapa kiriho insanganyamatsiko y'umunsi.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagore ndetse n'abagabo. Imbere yabo harambitse amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Hranze y'inyubako ibitaro bya Ndera byakirirwamo abarwayi bafite ikibazo cyo mu mutwe cyangwa umunaniro ukabije. Hari icyapa kiyobora abaje bagana iyi nyubako kugira ngo batayoba, iruhande rwacyo kandi hahagaze umugabo.

Abantu b'ingeri zitandukanye harimo abana bato b'abanyeshuri abasore ndetse n'abakobwa abagabo n'abagore bafite udupapuro turiho idarapo ry'u Rwanda bose batuzamuye hejuru.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage, cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bari kwitabwaho n'abaganga, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba cyabereyemo inama yahuje abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, bose bicaye ku ntebe aho bari kurebana hagati yabo mu kiziga harimo abakecuru bakoze itsinda.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bahagaze hamwe abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore abasore ndetse n'abakobwa, imbere yabo hahagaze umugore uri kubakoresha inama, abereka amashusho ku gikuta.

Hanze y'inyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari ibyapa bigaragaza serivisi zitangwa n'iyi nyubako.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, umugore umwe wicaye mu ntebe afite indangururamajwi ni we uri gukoresha inama, iruhande rwe hari icupa ririmo amazi yo kunywa ndetse n'umuti wo gukaraba intoki.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo umusore wicaye mu ntebe ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumwereka udukoresho dutandukanye dushobora kwifashishwa mu gukora isuku y'amenyo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, abasore n'abakobwa, bicaye hamwe abandi barahagaze, bari gufata ifoto y'urwibutso.

Umwana ukiri muto ufite igikoresho kizwi nk'uburoso bwifashishwa mu gukura imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo kugira ngo itazateza uburwayi biturutse ku mwanda cyangwa bigateza ibindi bibazo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bari gusuzumwa n'abaganga, harimo kandi utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo ubukangurambaga bwo kwigisha abana bakiri bato b'abanyeshuri, uburyo bagomba gukora isuku y'amenyo, bakoresheje ibikoresho byabugenewe kugira ngo birinde indwara.

Umukobwa ufite urudodo mu ntoki ze, ari kurukoresha akura imyanda iyo ariyo yose yaba yagiye mu menyo, kugira ngo yirinde uburwayi ashobora guhura nabwo, buturutse ku mwanda waba uri mu menyo.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Harimo intebe umurwayi yicaraho igihe ari kwitabwaho n'umuganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma indwara y'amenyo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, yambaye agapfukamunwa ndetse n'amataratara, afite imashini imbere ye z'ubwoko butandukanye ari gukora ubushakashatsi ku miti.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo, yifashishije urudodo rwabugenewe, aho ari kurunyuza mu menyo ye, kugira ngo akuremo imyanda, iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo, itazamutera uburwayi.

Mu kigo cy'amashuri; aho abanyeshuri b'abana harimo abakobwa ndetse n'abahungu bari kumwe n'abayobozi babo bafite ibikoresho mu ntoki zabo byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo, kugira ngo bakuremo imyanda iyo ari yo yose ishobora kubatera uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bari kwita ku mwana ukiri muto bareba ko nta kibazo yaba afite mu menyo ye. Inyuma yabo hari igishushanyo kigaragaza serivisi zitangirwa muri iki cyumba.

Kwa muganga icyumba kirimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma amenyo kugira ngo hamenyekane ikibazo amenyo yaba afite. Gikoreshwa gicometse ku mashanyarazi kugira ngo gitange ibisubizo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gusuzuma umwana ukiri muto, areba ko nta kibazo cy'amenyo afite, aho ari kwifashisha ibikoresho byabugenewe.

Abana b'abanyeshuri b'abakobwa bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe bafite ibikoresho mu ntoki zabo byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo kugira ngo bakuremo imyanda iyo ariyo yose ishobora gutera uburwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari gusuzuma umukobwa umwicaye imbere, areba ko nta kibazo afite mu menyo ye, yifashishije udukoresho twabugenewe.

Umukobwa uri gukora isuku y'amenyo akoresheje agakoresho kabugenewe kifashishwa mu gukuramo imyanda iyo ariyo yose yaba yafashe mu menyo kugira ngo itazateza uburwayi butandukanye.

Kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gusuzuma umwana ukiri muto uryamye ku gitanda, yifashishije ibikoresho byabugenewe kugira ngo arebe ko nta kibazo afite mu menyo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa bari gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye neza ikibazo baba bafite, harimo kandi utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma.

Mu kigo cy'amashuri aho abana bakiri bato, harimo abakobwa ndetse n'abahungu bamanitse amaboko yabo, aho bafite ibikoresho byabugenewe byifashishwa mu gukora isuku y'amenyo kugira ngo birinde indwara ziturutse ku mwanda.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, ari gukora isuku y'amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo yirinde imyanda iyo ari yo yose, ishobora guteza uburwayi mu menyo ye.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo akoresheje urudodo rwabugenewe kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose yafashe mu menyo, itazamuteza uburwayi butandukanye, afite kandi isume ku rutugu ifite ibara ry'umweru.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo akoresheje igikoresho cyabugenewe kugira ngo akuremo imyanda iyo ari yo yose yaba yafashe mu menyo ye itazamuteza uburwayi iruhande rwe hari impapuro z'isuku.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo yifashishije urudodo rwabugenewe, aho ari kurukoresha akuramo imyanda iyo ari yo yose yaba yagiye mu menyo kugira ngo itazamutera ubundi burwayi bw'amenyo.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo ndetse n'indwara zo mu kanwa, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kwita ku murwayi, amusuzuma kugira ngo amenye ikibazo afite mu kanwa ke.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo, harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye ikibazo bafite, harimo kandi intebe abaganga bicaraho iyo bari gusuzuma abarwayi n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Umusore uri gukora isuku y'amenyo, akoresheje igikoresho cyabugenewe, aho ari gukuramo imyanda iyo ariyo yose yaba yafashe mumenyo ye, kugirango itazamuteza ubundi burwayi.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahari umukobwa ufite imisatsi miremire. Ari kwitabwaho n'umuganga, amwereka amenyo y'ubwoko butandukanye, ashobora gusimbuza amenyo ye.

Abana bakiri bato b'abanyeshuri bambaye imyambaro y'ishuri yabugenewe, bari gukora isuku y'amenyo bifashishije ibikoresho byabugenewe, kugira ngo bakuremo imyanda iyo ari yose yaba yafashe mu menyo, kugira ngo itazabateza uburwayi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara y'amenyo. Harimo intebe umurwayi yicaraho ari kwitabwaho n'umuganga. Hakabamo kandi ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma umurwayi ndetse n'imashini yerekana amashusho.

Mu murima w'icyayi aho abaturage higanjemo abagore, bari kugisoroma bashyira mu bikoresho byabugenewe kugira ngo nyuma kizajyanwe mu nganda kugira ngo kibashe kwitabwaho bityo cyoherezwe ku isoko.

Umusaza n'umucecuru bakuze bafite imisatsi y'umweru, bicaye mu ruganiriro aho bafite ibikoresho imbere yabo bari gukinisha bakina imikino itandukanye kugirango ibafashe kuruhuka.

Ahabereye igikorwa cyitabiriwe n'abayobozi b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, ni igikorwa cyo gufasha abafite ikibazo mu maguru yabo cyangwa ikibazo cy'umugongo kandi bahawe ibikoresho bagomba kwifashisha.

Mu ruganiriro ahicaye umusaza ukuze uri kumwe n'umukobwa ukiri muto, wambaye imyambaro y'abaganga, bafite terefoni imbere yabo, aho bari gusoma amakuru, iruhande rwabo harambitse igikoresho cyo mu rugo.

Mu ruganiriro aho umusaza ndetse n'umucecuru ukuze, bari gufata ibyo kurya birambitse imbere yabo, harimo imboga ndetse n'imbuto, imbere yabo kandi hateretse ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa.

Ikibuga cyabereyemo inama yitabiriwe n' abantu b'ingeri zitandukanye, umukecuru ukuze, ufite indangururamajwi mu ntoki ze, ari gukoresha inama, hakurya ye haparitse imodoko z'abaje mu nama.

Munsi y'igiti ahabereye inama yitabiriwe n'abaturage ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, urubyiruko rw'abasore, ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe barebana, bari kuganira.

Umusaza ukuze wicaye mu ntebe afite inkoni mu ntoki ze akoresha imufasha gutambuka neza, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi afite ikarita imuranga.

Icyumba kicayemo umusaza ukuze, wambaye umupira w'umweru ndetse na mataratara, afite ikaramu mu ntoki ze ari kwandika mu ikaye, ibyo ari gutekereza.

Umuryango ugizwe na mama ndetse na papa, nyogokuru ndetse na'bana bicaye hamwe mu ruganiriro bari gufata ifoto y'urwibutso inyuma yabo hari amavase ateretsemo indabo zizana umwuka mwiza munzu.

Mu gikoni batikeramo aho umukobwa wambaye umwambaro w'umweru ari guha ibyo kurya harimo; imboga, umugati ndetse n'imbuto, umukecuru ndetse n'umusore ukiri muto bari kumwe.

Umukecuru ukuze ari kugendera ku byuma byabugenewe bimufasha gukora imyitozo ngororamubiri yo kurambura amaguru, ari kubifashwamo n'umukobwa ukiri muto umufashe ku rutugu, inyuma y'umuhanda bari kunyuramo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abagore babiri bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe aho bari gukora siporo yo kwiruka, iruhande rw'umuhanda bari kunyuramo hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Umumama wicaye mu kagare, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho afite igikoresho kiri kumufasha kureba uko umuvuduko w'amaraso uhagaze.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho umusaza wicaye mu kagare, ari gusunikwa n'umuganga, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Uyu muganga kandi afite igikoresho mu ijosi rye, kifashishwa mu gusuzuma bareba uko umutima w'umurwayi uri gutera.

Umusaza ukuze uri kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo amaboko ye agororoke neza.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Umusaza ukuze ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye yifashishije udukoresho tw'icyuma twabugenewe. Ari kubifashwamo n'umukobwa wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Mu ruganiriro ahicaye umusaza ndetse n'umukecuru, bafite imiti imbere yabo aho bari gusoma urupapuro rubereka neza uburyo bagomba gufata iyi miti kugira ngo bayinywe bityo bakire, inyuma yabo hari utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu rugo.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga harimo igitanda kiryamyeho umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga, iruhande rwe hahagaze umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ndetse hari imashini yifashishwa mu gusuzuma umurwayi kugira ngo bamenye uko ubuzima bwe buhagaze.

Isoko riberamo ubucuruzi bw'ibiribwa, harimo inyanya, imbuto ndetse n'ibindi bitandukanye, aho ababyeyi bakuze, bicaye hamwe, bategereje abaje kubagurira.

Umubyeyi ukuze wicaye mu kagare kicarwamo n'abafite ikibazo mu maguru yabo cyangwa bafite ikibazo cy'umugongo, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa ukiri muto, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Umusaza ukuze ufite imisatsi y'umweru ndetse n'ubwanwa bw'umweru, yicaye mu rukarabiro, aho ari kuhagirwa hakoreshejwe amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo bamukureho imyanda iyo ari yo yose iri ku mubiri we.

Umukecuru ndetse n'umusaza bicaye mu ruganiriro, bafite ibinini imbere yabo, bari gusoma, bareba neza uko bigomba gukoreshwa, imbere yabo kandi hari mudasobwa, naho inyuma yabo hari utubati tubikwamo ibikoresho.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye nk'ibigori, amasaka, ibijumba imboga rwatsi ndetse n'ibindi bitandukanye hahagazemo abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato bari gufata ifoto y'urwibutso.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo umusaza ukuze, ari kwitabwaho n'umuganga ukiri muto wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumupima areba niba umuvuduko we w'amaraso uhagaze neza. Ari gukoresha igikoresho cyabugenewe.

Umuryango ugizwe n'umubyeyi ndetse n'abana be bicaye mu ruganiriro bose bari hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso; iruhande rwabo hari ibikoresho byifashishwa mu rugo.

Umukecuru ukuze uri kumwe n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Afite igikoresho mu ijosi rye, kifashishwa mu kureba uko umutima w'umurwayi, uri gutera kugira ngo bamenye niba nta kibazo afite.

Icyumba kirimo umusaza uri kwitabwaho n'umukobwa ukiri muto amufasha kumanuka ku gitanda. Muri iki cyumba kandi harimo inzitiramibu ifasha mu kwirinda Malariya ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Umukecuru ukuze ufite imisatsi y'umweru, yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, kandi afite udukoresho mu ntoki ze, ari kwifashisha mu gukora siporo kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Mu ruganiriro aho umusaza ndetse n'umukecuru bafite imiti imbere yabo bakaba bari kuganira kugira ngo bamenye neza uburyo bagomba kuyikoresha nk'uko byateganyijwe.

Abagabo bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Bari gukora siporo bayikorera mu muhanda kandi bose bafite amacupa mu ntoki zabo arimo amazi meza yo kunywa.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umuganga w'umusore wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite igikoresho mu ijosi rye kifashishwa mu gusuzuma abarwayi bareba ko nta ndwara bafite, iruhande rwe hicaye umusaza waje kwivuza.

Icyumba kirimo umusaza ukuze wicaye mu kagare, ari kwitabwaho n'umuganga w'umugore wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Inyuma yabo kandi hari intebe yo kwicaramo.

Umusaza ndetse n'umucecuru bicaye mu ruganiriro. Bafite imiti imbere yabo bari gusoma urupapuro kugira ngo bamenye neza uburyo bagomba kuyikoresha. Imbere yabo hari ikirahure kirimo amazi meza yo kunywa kugira ngo ngo bayanyweshe imiti.

Umukecuru ukuze ufite imisatsi y'umweru, ari kwitabwaho n'umukobwa ufite imisatsi miremire, ufite kandi agakoresho mu ijosi rye kifashishwa mu kureba uko umutima w'umurwayi uri gutera. Bafite igikoresho mu ntoki zabo bakoresha bakora imyitozo ngororamubiri

Umukecuru ukuze ufite imisatsi y'umweru kandi yicaye mu kagare gakoreshwa n'abafite ikibazo mu maguru yabo cyangwa ikibazo cy'umugongo, ari kwitabwaho n'umuganga w'umukobwa ukiri muto, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Umusaza ukuze wicaye mu ntebe, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Ari kumupima areba uko umuvuduko we w'amaraso uhagaze, akoresheje igikoresho cyabugenewe.

Ku kibuga kiberaho imikino itandukanye hariho umugabo uri kumwe n'umwana we ukiri muto, bari gukina imikino bakoresheje umupira wabugenewe, inyuma yabo kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umusaza ukuze, uri kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Bose bambaye udupfukamunwa kugira ngo birinde kwanduzanya indwara. Iruhande rwabo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe imbere yabo hari itorero riri kubabyinira kandi imbere yaho hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bicaye hamwe bakurikiranye inama, imbere yabo hicaye abayoboye inama.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama. Imbere muri iki cyumba hahagaze umugabo, ni we uri gukoresha inama. Iruhande rwe, hari utumeza duto, tugiye duteretseho amazi yo kunywa.

Ibinyamakuru bikangurira abantu uburyo bagomba kwirinda indwaraya diyabeti, kugira ngo barusheho kugira buzima bwiza, bityo bazabashe kubaho igihe kirekire badafite iyi ndwara.

Ahabereye ubukangurambaga bwo kurwanya virusi itera sida. Ni gikorwa kitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa aho bari hamwe bafite icyapa imbere ya bo kigaragaza insanganyamatsiko y'umunsi.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abana bakiri bato, aho ababyeyi babo babazanye kwa muganga kugira ngo babashe kubakingira indwara izo arizo zose, ku gikuta cyo muri iyi nyubako hariho ibyapa bigaragaza serivisi batanga.

Ahabereye igikorwa cy'ubukangurambaga bw'isuku, aho abayobozi bambaye udupfukamunwa, bari guha impapuro z'isuku abana bakiri bato b'abanyeshuri, kugira ngo bimakaze isuku.

Icyapa cyanditseho insanganyamatsiko ishishikariza abantu uburyo bagomba kwirinda indwara y'ubushita bw'inkende. kugirango batayanduzanya, bityo abaturage bagire ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, barahagaze abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'umunsi.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, aho umugabo ndetse n'umugore bahagaze imbere ahabereye inama, bafite ibyapa mu ntoki zabo bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, yitabiriwe n'urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama, ahari umumama ndetse n'umugabo bafite icyapa mu ntoki zabo cyanditseho insanganyamatsiko y'uburyo bagomba kwirinda Igituntu ndetse no kugikwirakwiza.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama aho harima wicaye mu ntebe imbere afite indangururamajwi mu ntoki ze ndetse n'ikaye mu ntoki ari gukoresha inama, inyuma ye hari icyapa kiri kugaragaza ibyaranze inama.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Bicaye hamwe abandi barahagaze bari gufata ifoto y'urwibutso. Iruhande rwabo kandi hateretse ibyapa byerekana ibyaranze inama.

Icyumba cyabereyemo igikorwa cyo gusuzuma abaturage. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu mu ngeri zitandukanye, harimo abasore ndetse n'abakobwa, aho umuganga wambaye imyambaro y'akazi, ari gupima abaturage, areba uko umuvuduko w'amaraso wabo uhagaze.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kinini kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu bingeri zitandukanye harimo abagore ndetse n'abagabo bose biri hamwe bamwe barahagaze abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye higanjemo abagore ndetse n'abakobwa, bose bambaye imipira y'umweru bicaye hamwe imbere yabo kandi hahagaze umwe muri bo uri gukoresha inama.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage. Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi yambaye agapfukamunwa ari gukingira umurwayi wicaye ku ntebe amutera urushinge.

Icyumba kiri mu nyubako yabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore. Imbere yabo hicaye abayoboye inama kandi iruhande rwa buri wese, harambitse icupa ry'amazi yo kunywa.

Ahabereye igikorwa cyo gukingira abaturage, kitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo n'abagore. Hari abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, nibo bari gukingira abaturage, imbere yabo hateretse ameza ariho ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bari kwita ku barwayi, aha kandi harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Ahabereye inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abakuze ndetse n'abakiri bato, barahagaze, abandi baricaye bari gufata ifoto y'urwibutso, inyuma yabo kandi hari icyapa kigaragaza ibyaranze inama.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yabereyemo yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, aho umukobwa ufite imisatsi miremire ndetse n'indangururamajwi mu ntoki ze ari gukoresha inama. Inyuma ye hari icyapa kigaragaza ibiri kuranga inama.

Icyumba cyabereyemo inama; umugabo wambaye ikoti ry'umukara, afite indangururamajwi imbere ye, ari gukoresha inama. Iruhande rwe kandi, hari icyapa kinini kigaragaza, insanganyamatsiko y'inama.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, aho basuzumira abarwayi. Harimo igitanda umurwayi aryamaho, igihe ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa, hari intebe kandi abarwayi bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa ndetse no guhuzwa n'abaganga bari bubashe kubitaho.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo igitanda kiryamyeho umurwayi uri gukurikiranwa n'abaganga, iruhande rwe hari imashini ziri kwifashishwa mu kumusuzuma, ndetse zikerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri we.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara. Harimo igikoresho kinini, cyifashishwa mu kwerekana ifoto y'umurwayi kugira ngo bamenye ahari ikibazo mu mubiri we, bityo bamenye uko bagomba kukivura.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'intebe umurwayi yicaraho mu gihe ari kwitabwaho na muganga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga. Harimo kandi inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda indwara ya Malariya.

Hanze y'inyubako y'ibitaro bya Butare hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako, hanze y'inyubako kandi hari imodoka z'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi ku ndwara zitandukanye hari urujya n'uruza rw'abaturage baje kwivuza, hanze y'ibitaro kandi hateye indabo zifite amabara atandukanye zizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Mu nyubako yo kwa muganga ahari umuntu wambaye imyambaro y'umweru ahantu hose, yambaye agapfukamunwa kandi yitwikiriye mu mutwe, ari gukora amasuku kugira ngo arinde imyanda iyo ari yo yose ishobora gutera uburwayi.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Kinyinya. Hariho icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba. Iruhande rwayo kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, iruhande rwayo.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi. Muri iki cyumba kandi harimo televiziyo yerekana amashusho.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora siporo kugira ngo abaje bayigana barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gukora siporo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo abaje muri iyi nyubako bakomeze gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kirimo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, igiye iri mu bikarito bifite amabara atandukanye aho igiye itonze mu tubati hasi ndetse no hejuru.

Umusaza ukuze wicaye muntebe uri kwitabwaho n'umuganga, wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Afite igikoresho muntoki ze cyifashishwa mugusuzuma kugirango bamenye uko umuvuduko w'amaraso uhagaze.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari gukurikiranwa n'abaganga. Harimo kandi inzitiramibu zifashishwa mu kwirinda indwara ya malariya.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imeza ziterekwaho ibikoresho, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba basuzumiramo abarwayi, harimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari gusuzumwa n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu kureba ikibazo umurwayi afite, hari mudasobwa kandi bareberaho amashusho kugira ngo bamenye ahari ikibazo.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari imodoka iri gusohoka muri ibi bitaro, kandi hari umugabo wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, ushinzwe abinjira ndetse n'abasohoka, ku marembo y'ibitaro kandi hari icyapa cyerekana serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahakirirwa abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hateye indabo z'ubwoko butandukanye zizana umwuka mwiza muri iki kirere, ndetse hari ikibuga giteyemo ibyatsi.

Hanze y'inyubako y'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari imodoka ihaparitse ndetse na moto. Hanze y'inyubako kandi hateye ubusitani burimo ibyatsi by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'ikigo nderabuzima cya Shagasha, kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze kandi hicaye abaturage baje kwivuza, bategereje kwakirwa.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari ikibuga giteyemo ibyatsi ndetse ku mpande hateye indabo z'ubwoko butandukanye. Iruhande rw'ibitaro kandi hateye igiti kirekire.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo imashini yifashishwa mu kwerekana amashusho kugira ngo bamenye ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu, harimo kandi umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari gukoresha mudasobwa.

Hanze y'inyubako y'Ikigo nderabuzima cya Kabutare hari abayobozi bambaye udupfukamunwa ndetse n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bahagaze hanze y'inyubako bari gufata ifoto y'urwibutso.

Kimwe mucyumba kiri munyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe wicaye ku ntebe. Muri iki cyumba kandi harimo igitanda umurwayi aryamaho arikwitabwaho n'abaganga.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, hari ibyuma bifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi abana baje kwivuza bumviraho umunyenga, hanze y'inyubako kandi hateye ibyatsi ndetse n'indabo zifite ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, aho ababyeyi batwite ndetse n'abafite abana bakiri bato bakirirwa kugira ngo babashe kwitabwaho n'abaganga babugenewe, hanze y'inyubako kandi hari amavaze arimo indabo.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari icyapa kiyobora abaje bayigana kandi hanze y'inyubako hateye ubusitani burimo indabo z'amoko menshi ndetse n'ibiti bitandukanye. Muri iki kibuga kandi hari idarapo ry'u Rwanda.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabikwa amaraso yatanzwe n'abaturage kugira ngo azage gufashishwa abandi barwayi bafite amaraso make mu mubiri wabo.

Icyumba cyabereyemo amatora y'abayobozi. Yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa. Harimo kandi intebe zo kwicaraho ndetse n'abayobozi babo bari kubakira.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako iberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa nabaza muri'yi nyubako baje gukora siporo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gukora siporo, muri iki cyumba kandi ku rukuta hamanitse isaha ikoreshwa n'abaje muri iyi nyubako.

Hanze y'inyubako z'ibitaro y'ibitaro bya Nyarugenge, ahatangirwa serivisi z'ubuvuz kundwara zitandukanye. hanze y'inyubako kandi hari icyapa cyiyobora abaje bayogana, hateye kandi indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi, ndetse n'umuhondo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, kugira ngo bamenye neza ikibazo bafite, harimo kandi utumeza duterekwaho ibikoresho byifashishwa mu isuzuma.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti itandukanye yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Harimo utubati, aho imiti igiye ipanze hasi no hejuru nta kavuyo karimo.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye nk'imipira, imashini ndetse n'ibindi byifashishwa n'abagana iyi nyubako baje gukora siporo.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, iruhande rwayo hari indi nyubako iberamo inama, ndetse hanze hateye ibyatsi ndetse n'indabo z'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari umumama uryamye ku gitanda, iruhande rwe hari imashini zifashishwa mu gusuzuma kugira ngo hamenyekane ikibazo yaba afite.

Hanze y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hejuru ku nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, kandi hanze y'inyubako hateye indabo z'ubwoko butandukanye, zizana umwuka mwiza mu kirere.

Mu nyubako yo kwa muganga, icyumba kirimo imashini z'ubwoko butandukanye, zifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye neza ikibazo baba bafite. Harimo n'imashini kandi zerekana amafoto yo mu mubiri w'umurwayi kugira ngo bamenye aho bagomba kuvura.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa mugangada ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe aho bafite imashini imbere yabo yifashishwa mu kureba uko ibizami byafashwe mu barwayi uko bimeze.

Kwa muganga, icyumba kirimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa kandi bipfutse mu mitwe yabo aho bari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda kugira ngo bavure uburwayi yaba afite, babone igisubizo kirambye ku burwayi bwe.

Icyumba kimwe mu biri mu nyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo igitanda umurwayi aryamaho mu gihe ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'intebe abaganga bicaraho. Harimo kandi ameza abikwaho ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse na mudasobwa.

Icyumba kiri mu nyubako ahabera imyitozo ngororamubiri. Harimo intebe abaje muri iyi nyubako bicara bategereje kwakirwa. Harimo kandi amavaze ateretsemo indabo.

Ku marembo y'ikigonderabuzima cya Kigina, hejuru ku nyubako hari icyapa kinini cyanditseho ikigonderabuzima kugirango kiyobore abaje bahagana, ku marembo kandi hari umu mama ufite umwana mu mugongo aje kumuvuza.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hateye indabo ndetse n'ibyatsi by'ubwoko bwinshi bizana umwuka mwiza muri iki kirere kugira ngo abahumetse bakomeze kumererwa neza.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bategerereza, hari intebe zicayeho abarwayi bategereje kugira ngo babashe guhuzwa na muganga wabo, imbere yabo hahagaze umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubushakashatsi ku ndwara ndetse no ku miti, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu bushakashatsi ndetse n'indobo yo kujugunyamo imyanda.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa mukureba ibizami by'abarwayi kugira ngo zitange ibisubizo bityo abaganga bamenye imiti bagomba guha abarwayi.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara ya kanseri. Ku gikuta cyo kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana, hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi kibisi kandi hateretse ivaze ifite ibara ry'umutuku.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho ndetse n'imashini byifashishwa bari gusuzuma umurwayi kugira ngo bamenye ikibazo afite.

Icyumba kibikwamo imiti y'ubwoko butandukanye yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, igiye ipanze mu tubati hasi ndetse no hejuru aho iri mu bikarito by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahatangirwa ibizamini. Hicaye abaturage baje kwivuza bategereje gutanga ibizami. Hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umweru, icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Gishweru. Hari intebe abarwayi bicaraho, bategereje kwakirwa n'abaganga, hari umuganga kandi wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, uhagaze hanze y'inyubako.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga harimo ibitanda abarwayi baryamaho kugira ngo bakomeze gukurikiranwa n'abaganga, harimo kandi imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, muri iki cyumba kandi harimo umusore ndetse n'umukobwa bari gukora amasuku.

Mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi, ndetse zikerekana amashusho y'ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu. Muri iki cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara ya kanseri, hejuru ku nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana, hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho babika amaraso yatanzwe n'abaturage kugira ngo azahabwe abarwayi bafite amaraso make mu mubiri wabo bityo na bo bakomeze kubaho neza.

Inyubako yo kwa muganga iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hanze y'inyubako hateye ibyatsi ndetse n'indabo zifite amabara menshi zifashishwa mu kuzana umwuka mwiza muri iki kirere.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari abantu baje kwivuza harimo abagabo ndetse n'abagore, hanze y'iyo nyubako kandi hari imodoka y'umukara iparitse ku ruhande.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse ikerekana amashusho mu mubiri w'umuntu kugira ngo bamenye neza ahari ikibazo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo abaganga b'ingeri zitandukanye, abagore ndetse n'abagabo, bari kwita ku murwayi uri muri iki cyumba. Iruhande rwabo kandi hari imashini yifashishwa mu gusuzuma.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse na tereviziyo itanga amashusho. Harimo intebe umurwayi ndetse n'iy'umuganga bicaraho bari kuganira.

Hanze y'inyubako ikigo nderabuzima cya Remera Rukoma hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako, hariho kandi kizimyamwoto yifashishwa mu gukumira inkongi y'umuriro ndetse n'ibigega bifata amazi akoreshwa mu mirimo itandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, harimo imashini yerekana amashusho mu mubiri w'umuntu umuganga akamenya ahari ikibazo kugira ngo amukurikirane, muri iki cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari abaturage baje kwivuza, hanze y'inyubako kandi hari imodoka. Iruhande rw'inyubako hateye ibyatsi bizana umwuka mwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi ndetse n'imashini zikoreshwa mu gusuzuma abarwayi, kugira ngo bamenye ikibazo bafite.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahatangirwa ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bari kwitabwaho n'abaganga, ndetse n'imashini zifashishwa mu gusuzuma.

Mu nyubako yo kwa muganga, aho abarwayi bari kwitabwaho n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Muri iyi nyubako kandi, harimo puberi zijugunywamo imyanda ndetse n'utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahari imashini nyinshi zifashishwa n'abaje gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo zibereke uko ubuzima bwabo bihagaze mu bijyanye no gukora imyitozo ngororamubiri.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kinini cyanditseho serivisi zitangwa ni bi bitaro. Hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara atandukanye, umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse zikerekana ibisubizo byavuye mu bizami.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi bakirirwa kugira ngo babahuze n'abaganga, harimo intebe abarwayi bicaramo mu gihe bategereje kwakirwa ndetse n'ameza, ateretseho ururabo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bafite ibikoresho imbere yabo byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abaturage baza baje kwivuza kugira ngo bahure n'abaganga hanze, y'inyubako kandi hateye indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo abagore, abasaza ndetse n'abakecuru, imbere yabo hahagaze umugabo uri kubakoresha inama, iruhande rwe hari icyapa kiri kugaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari imodoka z'ubwoko bwinshi z'abakozi bakora muri ibi bitaro ndetse na zimwe mu modoka zifashishwa mu kuzana abarwayi kwa muganga badashobora kwigenza.

Kwa muganga ahabereye igikorwa cyo gukingira ndetse no gusuzuma abarwayi cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo ndetse n'abagore, abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ni bo bari kwita ku baturage, imbere yabo hari ameza ateretseho ibikoresho biri kwifashishwa mu gukingira.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kugira ngo batayoba. Hanze y'inyubako kandi hateye ibiti ndetse n'indabo by'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga yakirirwamo abana bakiri bato hari abaturage b'ingeri zitandukanye harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa baje mu gikorwa cyo kwipimisha.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo ibitanda abarwayi baryamaho bari kuruhuka cyangwa se bari gusuzumwa n'abaganga, harimo kandi utubati abarwayi bifashisha kugira ngo babikemo ibikoresho byabo.

Icyumba Kiri mu inyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi ,harimo imashini zifashwa mu gusuzuma umurwayi, zinerekana ifoto y' ikibazo yaba afite. Harimo kandi igitanda kiryamyeho umurwayi.

Icyumba kibera mu ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, igiye ipanze mari etajeri, aho ibitse mu bikarito. Muri iki cyumba kandi harimo intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ari kwita ku murwayi amupima kugira ngo amenye niba ntakibazo afite cy'umuvuduko w'amaraso cyangwa umutima.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibitanda abarwayi baryamaho bari kwitabwaho n'abaganga. Hakabamo kandi imashini z'ubwoko bwinshi zifashishwa mu gusuzuma kugira ngo hamenyekane neza ikibazo umurwayi yaba afite.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa imbere y'inyubako, kigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro. Hanze y'inyubako kandi hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini zifashishwa mu kwerekana amashusho, umuganga akamenya ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu, harimo kandi igishushanyo cyometse ku gikuta.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahatangirwa ibizami by'abarwayi, kuri iyi nyubako hari icyapa kiyobora abaje bayigana, hanze yayo kandi hahagaze abayobozi bari gufata ifoto.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, hari urujya n'uruza rw'abaturage baje kwifuza, kugira ngo bitabweho n'abaganga. Hanze y'inyubako kandi hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibitanda biryamyeho abarwayi bari kwitabwaho n'abaganga, bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, muri iki cyumba kandi harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba kiberamo ubucuruzi bw'imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Iri mu tubati dufite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi kibisi. Aha kandi hari intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa.

Hanze y'icyumba gitangirwamo ubuvuzi bw'indwara ya maso. Hari icyapa kinini kiriho ishusho y'ijisho ndetse kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako. Hanze y'iyi nyubako kandi hari indabo zifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umuhondo.

Ku marembo y'inyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hanze y'iyi nyubako hateye ibiti ndetse n'indabo z'ubwoko bwinshi kandi hari abaturage bari kugana kuri iyi nyubako.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara nyinshi. Harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye neza ikibazo baba bafite bityo babavure.

Mu nyubako yo kwa muganga icyumba basuzumiramo abarwayi kugira ngo bamenye ikibazo bafite, harimo imashini z'ubwoko butandukanye zifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse zikerekana amashusho y'ahari ikibazo.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, imbere muri iki cyumba hicaye abayoboye inama, aho buri wese afite icupa ririmo amazi meza yo kunywa, inyuma yabo kandi hari icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama.

Hanze y'inyubako icururizwamo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata abato ndetse n'abakuru, kuri iyi nyubako hejuru hariho icyapa kiyobora abaje bayigana, kugira ngo batayoba.

Kwa muganga, aho bakirira abarwayi baje kwivuza kugira ngo babahuze n'abaganga babashe kubitaho. Hari intebe, abarwayi bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa ndetse n'utugare twicarwaho n'abafite ikibazo mu maguru.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi. Harimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kwitabwaho n'abaganga. Harimo kandi indobo yo kujugunyamo imyanda ndetse n'urukarabiro.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, aho basuzumira abarwayi. Harimo igitanda umurwayi aryamaho igihe ari kwitabwaho n'abaganga ndetse n'imashini bifashisha mu gusuzuma kugira ngo bamenye ikibazo umurwayi afite.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho ndetse n'imashini z'ubwoko butandukanye, zifashishwa n'abaje gukora imyitozo ngororamubiri muri iki cyumba, harimo kandi televiziyo zerekana amashusho.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara y'amaso harimo intebe abarwayi bicaraho igihe bategerejwe kwakirwa, harimo kandi ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Ku marembo y'inyubako yakirirwamo abakoronijwe n'ibiyobyabwenge kugira ngo babashe gusubizwa ku murongo. Hari icyapa kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako kandi hafi yayo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahari umuganga w'umukobwa wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe ndetse yambaye ga mu ntoki ze ari gusuzuma abarwayi kugira ngo amenye ikibazo bafite.

Hanze iyi nyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari icyapa kinini kiyobora abaje bagana kuri iyi nyubako, hanze y'inyubako kandi haparitse imodoka.

Hanze y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari abaturage baje kwivuza bicaye hanze bategereje kwakirwa, hanze y'inyubako kandi hateye indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu nyubako yo kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bategerereza mbere y'uko bakirwa. Hari intebe abarwayi bicaraho igihe batarahabwa serivisi z'ubuvuzi. Ku gikuta hariho ibishushanyo ndetse n'ibyapa bigaragaza serivisi zitangwa muri ibi bitaro.

Ku marembo y'inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari icyapa kinini kigaragaza serivisi zitangwa muri iyi nyubako kandi kikayobora abaje bayigana kugira ngo batayoba. Hakurya y'umuhanda hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, hari icyapa kiyobora abaje bagana iyi nyubako ndetse kikerekana serivisi zitangwa muri iyi nyubako. Hari abaturage kandi baje kuri iyi nyubako kugira ngo bahabwe imiti.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye ikibazo bafite harimo kandi ibitanda abarwayi baryamaho iyo bari kwitabwaho n'abaganga.

Kwa muganga igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye neza ikibazo baba bafite mu mubiri wabo, aho kibereka amashusho bityo abaganga bakayagenderaho bavura abarwayi.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, harimo ibikoresho nk'imashini, byifashishwa mu gusuzuma kugira ngo bamenye ikibazo umurwayi yaba afite, harimo kandi igitanda umurwayi aryamaho iyo ari kwitabwaho ndetse n'intebe umuganga yicaraho.

Hanze y'inyubako itangirwamo serivisi z'ubuvuzi, hari icyapa kinini kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba. Hanze y'inyubako kandi hari abakora muri iyi nyubako bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro y'umukara, bafite udukapu mu ntoki zabo.

Ku marembo y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Matyazo, hari icyapa kinini kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hari urujya n'uruza rw'abaturage baba baje kwivuza.

Hanze y'inyubako yakirirwamo ababyeyi batwite ndetse n'abafite abana bakiri bato. Hicaye abayobozi bambaye imipira y'ubururu, bari kuganiriza abaje babagana.

Hanze y'inyubako y'ibitaro ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari abaganga ba bakobwa bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe kandi bose bambaye udupfukamunwa. Bahagaze hamwe bari gufata ifoto y'urwibutso.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, ahabera serivise z'ubuvuzi, harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi aho yerekana amashusho y'aho ari ikibazo mu mubiri w'umuntu, bityo abaganga bakabasha kuvura umurwayi.

Icyumba cyabereyemo inama yitabiriwe n'abantu. Hari umugabo uhagaze imbere, ari gukoresha inama yerekana amashusho amuri imbere ye. Muri iyi nyubako kandi harimo ameza ateretseho mudasobwa ndetse n'amazi meza yo kunywa.

Hanze y'inyubako y'ikigo nderabuzima cya Rwerere, hari icyapa kuri iyi nyubako kiyobora abaje bayigana kugira ngo batayoba, hanze y'inyubako kandi hateye indabo zifite amabara y'umuhondo, icyatsi kibisi ndetse n'umweru.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo imashini zibikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'ameza ateretseho ibikoresho byifashishwa n'abaganga.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hari igitanda umurwayi aryamaho mu gihe ari gusuzumwa n'abaganga ndetse n'imashini iri hejuru yacyo, yerekana ifoto mu mubiri we, kugira ngo bamenye ahari ikibazo. Muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo imyitozo ngororamubiri. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abagana iyo nyubako baje gukora siporo kugira ngo imibiri yabo irusheho gukora neza.

Kwa muganga aho abarwayi baje kwivuza bakirirwa, hari intebe abarwayi bicaraho mu gihe bategereje kwakirwa kugira ngo babahuze n'umuganga ugomba kubitaho abavura.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga, hari utubati tubikwamo amaraso yatanzwe n'abaturage azafashishwa abarwayi bafite amaraso adahagije mu mubiri wabo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Hanze y'inyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Hateye ibyatsi ndetse n'indabo zifite uburabyo bw'umutuku, umuhondo ndetse n'umweru bizana umwuka mwiza muri iki kirere.

Hanze y' inyubako iberamo ubuvuzi bw'indwara zitandukanye, hari icyapa kiri mu mabara atandukanye kigaragaza serivisi zitangwa n'iyi nyubako, iruhande rw'inyubako kandi hateye ibiti ndetse n'indabo bizana umwuka mwiza muri icyo kirere.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye. Harimo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi ndetse n'imashini zitanga amashusho. Harimo kandi intebe umurwayi yicaraho igihe ari kwitabwaho n'abaganga.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo abarwayi baryamye ku bitanda biri muri iki cyumba ndetse n'abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, harimo intebe abaganga bicaraho ndetse n'utumeza duterekwaho ibikoresho.

Hanze y'inyubako iberamo ubucuruzi bw'imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, kuri iyi nyubako hariho icyapa kiyobora abaje bayigana ndetse cyerekana serivisi zitangwa muri iyi nyubako.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga harimo imashini yifashishwa mu gusuzuma abarwayi, aho yerekana amashusho mu mubiri w'umuntu ahari ikibazo, muri iki cyumba kandi harimo utubati tubikwamo ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, ahina ndetse arambura amaboko ye kugira ngo agororoke neza, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ikibuga kiri kuberaho imyitozo ngororamubiri, iri gukorwa n'abasore bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe ndetse n'inkweto za siporo zabugenewe, aho bari kwiruka kugirango bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo abasore babiri bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe bari gukora imyitozo ngororamubiri, muri iki cyumba kandi harimo ibindi bikoresho byifashishwa n'abaje muri iyi nyubako.

Igikapu gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze, kugira ngo batabare umuntu.

Ikibuga kiberaho imyitozo ngororamubiri. Ni igikorwa cyitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abagabo, abagore, abasore ndetse n'abakobwa yewe n'abana bakiri bato, bari gukora siporo kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto byabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite imisatsi miremire ari gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza. iruhande rwe hari amavazi arimo indabo z'ubwoko butandukanye.

Mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga aho umurwayi ufite ikibazo mu kaguru, ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, amufasha neza kugorora akaguru ke.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe bahagararanye n'umuyobozi wabo, bafite igikoresho imbere yabo aho bari kureba amafoto y'umurwayi, muri iki cyumba kandi harimo abarwayi baryamye ku bitanda.

Umukobwa uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, aho ari kurambura ndetse ahina amaboko ye kugira ngo agororoke neza, imbere ye hari mudasobwa kandi iruhande rwe hari icupa ry'amazi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Umusore ukiri muto ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza kubera ko amazi ni ubuzima.

Umukobwa ukiri muto, wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe ndetse n'inkweto byabugenewe, afite ekuteri mu matwi, arambuye amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo abashe kugororoka neza.

Umusore ukiri muto wambaye umupira w'umweru, afite ekuteri mu matwi ari kumviramo indirimbo kandi ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Ku kibuga ahaberiye imikino yahuje amakipe atandukanye, aho umukinnyi aryamye hasi akaba ari kwitabwaho na bamwe mu bagize itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze.

Umukobwa uri kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe, yambaye kandi umwambaro wa siporo wabugenewe, kandi afite isume ku rutugu rwe yifashisha mu guhanagura imyanda ndetse n'ibyuya byaje ku mubiri.

Umusore wicaye hasi uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto zabugenewe aho ari kugorora amaboko ye ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza, inyuma ye hateye indabo z'ubwoko butandukanye.

Umusore ukuze wambaye umupira w'ubururu kandi akaba afite isaha ku kaboko ke. ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Akagare gafite amapine ndetse n'intebe yo kwicaraho gakoreshwa n'abafite ikibazo mu maguru yabo cyangwa mu mugongo igihe badashobora gutambuka neza kugira ngo kabafashe kugenda.

Icyumba kiri mu nyubako iberamo imyitozo ngororamubiri, aho umukobwa ukiri muto wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe,, ari gukora imyitozo ngororamubiri yifashishije igikoresho kiri muri iki cyumba.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, harimo ibikoresho by'ubwoko butandukanye byifashishwa n'abaje bagana iyi nyubako kugira ngo bakore imyitozo ngororamubiri, bityo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabyo hari ibyo kurya higanjemo imbuto nk'amaronji, inanasi, umwembe, pome, umuneke, ndetse n'ibindi bitandukanye byongera intungamubiri.

Umusore ndetse n'umukobwa bambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, bari gukora siporo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza, bafite amacupa mu ntoki zabo arimo amazi meza yo kuma.

Abasore babiri bari mu itsinda ritanga ubutabazi bw'ibanze ku bagize ikibazo cyo gukomereka cyangwa ikindi kibazo cy'ubuzima. Bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho bateruye umusore wagize ikibazo kugira ngo bamwiteho, inyuma yabo kandi hari abandi bantu bambaye imipira ifite ibara ry'umweru.

Igikoresho kiri mu nyubako yo kwa muganga cyifashishwa mu kwerekana ahari ikibazo mu mubiri w'umuntu. Iki gikoresho kandi cyifashishwa mu gushiririza aho ngaho habonetse ikibazo kugira ngo umurwayi arusheho kumera neza.

Ibyo kurya harimo imbuto, nka pome, avoka, pavuru, imizabibu tungurusumu, karoti, ndetse n'ibindi byifashishwa mu gusubiza imbaraga mu mubiri uwakoze imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwabyo kandi hari ibikoresho byifashishwa muri siporo nk'inkweto, icupa ry'amazi, ndetse n'agakoresho kifashishwa mu gupima bareba uko umutima uri gutera.

Utumashini twifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo bamenye neza uko umutima wa uri gutera, cyangwa niba umuvuduko w'amaraso uhagaze neza. Hari umugore kandi uri gukoresha kimwe muri byo.

Igikoresho cyifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri. Iruhande rwacyo hari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto nk'amaronje, pome puwavuro ndetse n'ibindi bitandukanye.

Icyumba kiri mu nyubako kwa muganga, harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, bose bambaye udupfukamunwa, kandi bipfutse mu mitwe yabo, bari kwita ku murwayi kugira ngo amere neza, iruhande rwabo hari imashini zitandukanye zifashishwa mu buvuzi.

Ahari ibikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabyo hateretse ibyo kurya nk'imbuto, harimo pome, oranje, ndetse n'izindi zitandukanye, n'icupa ry'amazi yo kunywa.

Imashini iri mu nyubako yo kwa muganga, yifashishwa mu kwerekana amashusho mu mubiri w'umurwayi kugira ngo abaganga bamenye neza ahari indwara n'uburyo bagomba kuyivura.

Inkoni ikoze mu cyuma ikunda gukoreshwa n'abantu barwaye, bafite ikibazo mu ngingo zabo kugira ngo ibafashe gutera intambwe batababara bityo babashe kugera ahantu kure.

Umukobwa wicaye kugitanda uri gupfuka akaguru ke kugira ngo yirinde imyanda iyo ariyo yose iyobora kwinjira mu gisebe cye bigatuma kidakira neza.

Igikoresho cyifashishwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo kibereke uko umutima wabo uri gutera cyangwa kibereke uko umuvuduko w'amaraso wawo uhagaze bityo bibafashe kwirinda indwara.

Umusore wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, afite ekuteri mu matwi ye ari kumviramo indirimbo kandi ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo igikoresho cy'imashini cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, aho gitanga amashusho mu mubiri w'umurwayi, cyerekana ahari ikibazo. Muri iki cyumba kandi, harimo akabati kabikwamo ibikoresho ndetse n'indobo yo kujugunyamo imyanda.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga ahabera ubuvuzi bw'indwara zitandukanye harimo abaganga bambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, umwe muri bo abahagaze imbere ari kubaganiriza uburyo igikoresho kibari imbere gikoreshwa, muri iki cyumba kandi harimo igitanda abarwayi baryamaho.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite telefoni mu ntoki ze kandi yambaye ekuteri, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kandi afite isume ku rutugu rwe akoresha ahanagura ibyuya.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite isaha ku kaboko ke aho ari kugororo amaboko kugira ngo arusheho kurambuka neza bityo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite icupa ririmo amazi meza mu ntoki ze, aho ari kuyimenaho mu maso, kugira ngo agabanye ubushyuhe.

Igikoresho kiri mu nyubako yo kwa muganga, cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi kugira ngo bamenye ikibazo bafite bityo abaganga babashe kubitaho babahe n'imiti bagomba gukoresha mu kwivura.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe ndetse n'inkweto zabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura akaguru ke ndetse n'akaboko ke, kugira ngo bigororoke neza, iruhande rwe hari ikiyaga.

Imiti ikoreshwa n'abakunda gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ibagabanyirize uburibwe bw'imitsi cyangwa inyama mu gihe bamaze gukora imyitozo ngororamubiri, iri mu macupa y'ibara ry'umweru, imwe ifite imifuniko miremire indi ifite imifuniko migufi.

Icyumba kirimo abagize itsinda ry'abatanga ubutabazi bw'ibanze ku baturage bakomeretse cyangwa bahuye n'ibindi bibazo. Bamwe muri bo, bari kubigisha uburyo bagomba gutanga izi serivise.

Igikoresho cyifashishwa n'abaganga bari kureba utunyabuzima duto, dushobora kuba turi mu bizami byafashwe mu barwayi kugira ngo hamenyekane indwara baba bafite.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, afite imisatsi myinshi ku mutwe, ari gukora imyitozo ngororamubiri, arambura amaboko ndetse n'amaguru ye, kugira ngo birusheho kugororoka neza.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto byabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, aho umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri abifashijwemo n'umusore umuhagaze iruhande, inyuma yabo kandi muri iki cyumba, harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Umusore ndetse n'umukobwa, bose bambaye imyenda ya siporo yabugenewe, umusore yicaye ku ntebe naho umukobwa ahagaze iruhande rwayo, imbere yabo bafite ibikapu batwaramo ibikoresho bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba cyo kwa muganga aho umurwayi ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Ari kumufasha gutera intambwe bakoresheje akuma kabugenewe.

Igikoresho cyambarwa mu ivi, kigakoreshwa n'abafite ikibazo mu kaguru kabo kugira ngo kibafashe kurambuka neza, bityo bizabafashe gukira vuba vuba, hatajemo ibindi bibazo by'imvune.

Mu muhanda rusange harimo imodoka yifashishwa mu gutwara abarwayi ibazana ndetse ibakura ku bitaro, iruhande rw'umuhanda hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti bizana umwuka mwiza.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako ahabera imyitozo ngororamubiri. Harimo igitanda kiryamyeho umusore, hakaba hari abandi bari kumufasha gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye hasi ku isima, aho yambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari gukora imyitozo ngororamubiri arambura amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo bigororoke neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo muganga wambaye imyambaro y'akazi yamugenewe ari kwita ku murwayi ufite ikibazo mu maguru kugira ngo abashe kugororoka neza bityo abashe gukandagira.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore uryamye hasi ari gukora imyitozo ngororamubiri abifashijwemo n'undi musore umwicaye iruhande. Muri iki cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora siporo.

Icyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga aho umusore ukiri muto uri gukora imyitozo ngororamubiri abifashijwemo n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe. Muri iki cyumba kandi harimo n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Ikiganza gifashe amazi meza yo kunywa, ari mu icupa ryabugenewe kugira ngo uyamuye wese arusheho kugira ubuzima bwiza butarimo ingwara zitandukanye.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye, nk'amaronje, ndetse n'imbuto z'ubwoko bwinshi zifashishwa mu kongera intungamubiri, iruhande rwazo hateretse icupa ririmo amazi meza yo kunywa, ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyumba kiberamo imyitozo ngororamubiri, harimo umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, ari kuzikora yifashishije kimwe mu bikoresho biri muri iki cyumba, inyuma ye kandi harimo izindi mashini zifashishwa mu gukora siporo.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo ndetse n'inkweto zabugenewe. Yambaye ikuteri mu matwi ari gukora imyitozo ngororamubiri ahina kandi arambura amaguru ye n'amaboko, kugira ngo birusheho kugororoka neza.

Amacupa maremare afite ibara ry'umweru, arimo imiti ikoreshwa mu kugabanya ububabare bw'imitsi cyangwa bw'inyama igihe umuntu amaze gukora imyitozo ngororamubiri. Iyi miti ikunda gukoreshwa n'abakora siporo.

Kimwe mu cyumba kiri mu nyubako yo kwa muganga. Harimo igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi, cyerekana ifoto yo mu mubiri wabo kugira ngo bamenye ahari ikibazo, basobanukirwe neza uburyo bagomba kugikemura.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, yicaye hasi kandi yambaye isaha ku kaboko ke, ari gukora ku kaguru ke aho ari kubabara habaye umutuku cyane.

Umukobwa ukiri muto wambaye umwambaro wa siporo wabugenewe, afite isume y'umweru ku rutugu rwe ndetse ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe.

Umusore wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, yicaye ku gitanda cyo kwa muganga. Ari kwitabwaho n'umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, aho ari kumupfuka ku kaguru ke ahagize ikibazo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire ayizirikishije umubano, ari gukora imyitozo ngororamubiri aho arambuye amaboko ye neza kugira ngo agororoke bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wicaye hasi mu byatsi, wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho arambuye amaguru ye ndetse n'amaboko ye kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umusore ukiri muto wambaye isengegeri y'umukara ndetse n'agakoma ku kuboko gafite ibara ry'icyatsi kibisi ari kunywa amazi akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umuganga wambaye imyambaro y'akazi yabugenewe, afite igikoresho mu ijosi rye kifashishwa mu gusuzuma bareba uko umutima w'umurwayi uri gutera kandi mu ntoki ze afite igikoresho cyifashishwa kwa muganga.

Umusore ukuze wambaye umupira w'ubururu, yambaye umudari mu ijosi rye kandi ari kunywa amazi meza, akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, yicaye hasi ku itapi ari gukora imyitozo ngororamubiri, imbere ye harambitse mudasobwa kandi iruhande rwe hari icupa ry'amazi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, inyuma ye kandi hari intebe yo kwicaraho.

Amazi meza yo kunywa, arigukurwa mu icupa ryabugenewe, ashyirwa mu kirahure ari bubashe kunywererwamo, kugira ngo uyanyweye arusheho kugira ubuzima bwiza.

Amazi meza yo kunywa ari gusukwa avanwa mu ijage ashyirwa mu kirahure cyabugenewe kugira ngo uri buyakenere ayanywere mu kirahure, bityo akomeze kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umukobwa ukiri muto ufite imisatsi miremire kandi wambaye ekuteri mu matwi ye, ari kunywa amazi meza akoresheje icupa ryabugenewe kugira ngo arusheho kugira ubuzima bwiza.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe y'ubururu. Ari gukora imyitozo ngororamubiri, aho arambuye amabokoye ndetse n'amaguru ye, kugirango birusheho kugororoka bityo agire ubuzima bwiza.

Amazi meza yo kunywa ari gusukwa akurwa mu ijage yabugenewe, ashyirwa mu kirahure agomba kunywererwamo kugira ngo uyanyweye arusheho kugira ubuzima bwiza butarimo indwara.

Umukobwa wambaye imyambaro ya siporo yabugenewe, aho ari gukora imyitozo ngororamubiri ahina amaboko ndetse n'amaguru ye kugira ngo bigororoke neza. Imbere ye kandi hari ivaze iteyemo ururabo.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo igikakarubamba ndetse n'igisura byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi ziganjemo indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, kuvura ibikomere ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibibabi by'ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye cyane cyane kuvura indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo igikakarubamba, umuravumba, igisura, umwenya ndetse n'ibindi bitandukanye biri mu mavaze, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi.

Icyatsi k'igisura kiba gifite utubabi dufite amahwa, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zitandukanye cyane cyane ku ndwara yo mu nda.

Imiti ndetse n'amavuta byose byo kwisiga, byifashishwa bari gukora isuku y'uruhu cyangwa bari kuvura indwara zitandukanye zaba zafashe uruhu, kugira ngo uyikoresheje akomeze kugira uruhu rwiza rutariho ibiheri kandi runyerera.

Ahari gutunganyirizwa ibihingwa by'ubwoko butandukanye, kugira ngo havemo imiti yifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane hari kuvurwa indwara zo mu nda ndetse no kuvura indwara z'uruhu, zifata abato ndetse n'abakuru.

Imiti ikozwe mu gihingwa yifashishwa mu kubura indwara zitandukanye zafata abantu cyangwa mu kubongerera imbaraga. Iri mu ikarito ofite amabara y' icyatsi kibisi ndetse n' umuhondo. Iri de rw' ikarito haranditse ngo ibi ni ibyo kunywa.

Ibibabi by'igihingwa cy'umuravumba bikoreshwa mu gutunganya imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyanecyane bari kuvura indwara zo mu nda zifata abantu bato ndetse n'abantu bakuru.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye biteye mu mavaze byifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, harimo igikakarubamba ,umuravumba, igisura, umuyenzi n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo.

Imiti y'ubwoko butandukanye iri mu macupa afite ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'ayandi atandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu aho uyisize wese agira uruhu runyereye ndetse rutariho ibiheri.

Imiti yo kunywa ikozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye. Iri mu gacupa gato gafite ibara ry'umweru ndetse kariho igikaratasi cyanditseho inyuguti mu ibara ry'ikinombe.

Ahari ibikombe ndetse n'amacupa y'ubwoko butandukanye, arimo imiti gakondo ikoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda, kuvura indwara z'uruhu, ibisebe, ibikomere ndetse n'ibindi bitandukanye.

Igihingwa cy'umwumbati gifite amababi y'icyatsi kibisi maremare gikoreshwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zafata abantu, abato cyangwa abakuru.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, harimo indwara zo mu nda, ndetse n'indwara z'uruhu, zishobora gufata abantu bakuru cyangwa abato.

Igihingwa cya tangawizi, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye. Iki gihingwa kandi gikoreshwa bari gukora imitobe yo kunywa ndetse bari gutegura ibyo kurya.

Amavuta yo kwisiga, akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, akoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, zaba zafashe uruhu. Ari mu macupa maremare y'umuhondo, kuri aya macupa kandi hariho ifoto y'igikakarubamba.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gutunganya imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye. Iruhande rwabyo hateretse igikoresho cyifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo babone kuyikoresha.

Amacupa maremare ariho ibikaratasi, arimo imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, higanjemo indwara z'uruhu, kuvura indwara zo mu nda, kuvura ibisebe ndetse n'izindi zitandukanye.

Ahari kubera ubucuruzi bw'imiti gakondo ikozwe mu bihingwa. Hari amacupa y'ubwoko butandukanye agiye arimo iyi miti, aha kandi hari umumama uri kuyicuruza kugira ngo ayishyikirize buri wese uyikeneye.

Umurima uteyemo ibihingwa by'umuravumba, aho ibibabi byabyo byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, cyane cyane kuvura indwara zo mu nda higanjemo inzoka ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti wo kunywa ukozwe mu bihingwa by'ubwoko butandukanye, ukoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko bwinshi zafashe abana bakiri bato, uri mu icupa rigufi ry'umweru, rifite kandi umufuniko w'umweru, ndetse kuri iri cupa hariho ishusho y'umwana muto.

Igihingwa cy'umuravumba giteye mu murima ni ikimera aho amababi yacyo yifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye zafata abantu b'ingeri nyinshi.

Ibimera by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, harimo izo munda cyangwa se indwara z'uruhu zafashe abantu bato cyangwa abakuru.

Ibihingwa by'ubwoko butandukanye harimo igikakarubamba, umuravumba, igisura, umuyenzi ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko bwinshi.

Ibibabi by'igihingwa cy'umwumbati byifashishwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye zifata abato ndetse n'abakuru cyane cyane indwara z'uruhu ndetse no mu buvuzi bw'indwara zo mu nda.

Ahateye ibihingwa by'ubwoko butandukanye, aho amababi yabyo yifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara zo mu nda.

Ahari gutunganyirizwa imiti ivuye ku bihingwa by'ubwoko bwinshi izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane kuvura indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda, iruhande rwayo hateretse ibikoresho byifashishwa mu kuyitunganya.

Amavuta yo kwisiga ku ruhu, akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba, ndetse n'urunyanya, ni amavuta ari mu icupa rirerire, rifite ibara ry'umutuku, kuri iryo cupa kandi hariho ifoto y'urunyanya ndetse n'igikakarubamba.

Umuti wo koza amenyo ukozwe mu gihingwa kigikakarubamba, uri mu icupa ry'umweru rirerire rifite ifoto ry'igikakarubamba iruhande rwaryo hateretse udukoresho twifashishwa mu gukora isuku y'amenyo turambitse mu itasi.

Amavuta akozwe mu bihingwa, akoreshwa umuntu ayisiga mu ntoki ze kugira ngo yice udukoko utwo ari two twose twaba turi mu ntoki ze, bityo tutazamutera indwara zitandukanye.

Umurima uteyemo ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi zifata abato ndetse n'abakuru kugira ngo bakomeze kugira ubuzima bwiza.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi. Iruhande rwabyo hari ibikoresho byifashishwa mu kuyitunganya kugira ngo babone kuyikoresha.

Ahari ibibabi by'ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti izakoreshwa mu kuvura indwara nyinshi. Aha kandi hari ibikoresho byifashishwa mu gutunganya iyi miti kugira ngo ibonwe kujyanwa ku isoko.

Amavuta akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, ari mu macupa y'umweru maremare aho kuri aya macupa hariho inyuguti zandikishijewi ibara ry'icyatsi kibisi ndetse no mu ibara ry'umukara, aya mavuta kandi akoreshwa mu kuvura indwara z'uruhu.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa kigikakarubamba, arakoreshwa kugira ngo abashe kuvura indwara izo arizo zose zaba zafashe uruhu, kuri iri cupa kandi hagiye hariho amafoto y'igikakarubamba ndetse n'inyuguti ziri mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umukara.

Imbuto z'ibihingwa bya tungurusumu byifashishwa mu gukora imiti itandukanye yo kuvura indwara nyinshi harimo izo mu nda, izi mbuto kandi zifashishwa mu biryo kugira ngo zibihumuze.

Ibimera harimo ipera ndetse n'urubebya, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, zishobora gufata abantu, harimo iz'uruhu cyangwa indwara zo mu nda.

Ibikarito birimo imiti yifashishwa mu kongera intungamubiri ku wakoze siporo. Bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru kandi byanditseho inyuguti mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse no mu ibara ry'umweru.

Ahateye igihingwa cy'umuravumba aho ibibabi byacyo byifashishwa mugukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zishobora gufata abantu abakuru cyangwa bato.

Ahari imiti y'ubwoko butandukanye ikozwe mu bihingwa yifashishwa mu kuvura indwara nyinshi, higanjemo indwara zo mu nda, kuvura indwara z'ibisebe, kuvura indwara z'uruhu, kuvura ubushye, ibikomere ndetse n'izindi zitandukanye.

Isahani y'umweru iriho imbuto z'amaronji zo kurya kugira ngo zongere intungamubiri. Iruhande rwazo hateretse agacupa gato gafite ibara ry'umweru karimo imiti yo kunywa kugira ngo na yo yongere intungamubiri.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa k'igikakarubamba ndetse n'umwembe. Ari mu macupa maremare afite ibara ry'umuhondo ndetse n'ibara ry'umweru. Kuri aya macupa kandi hariho amafoto y'igikakarubamba ndetse n'umwembe.

Ibibabi by'igihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zafashe abantu harimo izo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu.

Ibibabi by'ibihingwa bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, higanjemo indwara zo mu nda ndetse n'indwara zifata uruhu.

Aharambitse imiti y'ubwoko butandukanye, izakoreshwa mu buvuzi gakondo bari kuvura indwara z'ubwoko bwinshi. Irambitse ku mukeka aho iri gutunganyirizwa.

Ibibabi by'ibihingwa by'ubwoko butandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, higanjemo izo mu nda, indwara z'uruhu, kuvura ibisebe, kuvura ibikomere ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ahari ibinini byo kunywa byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata abakuru ndetse n'abato. Iruhande rwabyo hari igikarito gifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'umweru kifashishwa mu kubibika.

Imiti yo kunywa ikozwe mu bihingwa, iri mu gikaratasi gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'ibara ry'umuhondo kandi hariho inyuguti zandikishije mu ibara ry'umukara, iruhande rwacyo harambitse ibinini byo kunywa.

Ahari ibyatsi byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane indwara z'uruhu ndetse n'izo mu nda, iruhande rwabyo hari ibikoresho byifashishwa mu kubitunganya.

Umuti wo gukaraba ku ruhu kugira ngo ukureho indwara zitandukanye ziba zafashe k'uruhu, ukorwa mu gikakarubamba kandi uri mu icupa rirerire, rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umufuniko ufite ibara ry'umutuku.

Urujya n'uruza rw'abaturage baza mu isoko riberamo ubucuruzi bw'ibyo kurya by'ubwoko bwinshi, harimo imbuto, ndetse n'ibindi bitandukanye, muri iri soko harimo umuntu ushinzwe kubigurisha kugira ngo abone amafaranga.

Igikarito kirimo imiti yo kunywa ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, gifite amabara y'umweru, icyatsi kibisi, ubururu ndetse n'umuhondo, iruhande rwacyo kandi harambitse ibinini byo kunywa.

Igicupa kibonerana gifite umufuniko w'umuhondo, kirimo, ifu y'umuti ikozwe mu muravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, cyane cyane kuvura indwara zo mu nda zifata abantu bakuru ndetse n'abakiri bato.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu bihigwa harimo gikakarubamba ndetse n'izindi mbuto; akoreshwa mu kwisiga ku ruhu kugira ngo avure indwara izo arizo zose zaba zafashe uruhu. Ari mu macupa maremare, iruhande rwayo harambitse uducupa duto turimo ibinini byo kunywa.

Ahabera ubucuruzi bw'imiti gakondo, ikozwe mu bihingwa by'ubwoko butandukanye, iri mu macupa menshi atandukanye, iruhande rwayo hari umumama uri kuyagurisha kandi inyuma ye hari ibimuranga.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zitandukanye, zaba zafashe abantu bato cyangwa abantu bakuze bityo akabaha kugira uruhu rumeze neza.

Imiti yifashishwa n'abakunda gukora siporo kugira ngo ibongerere intungamubiri. Iri mu bikarito bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru kandi byanditseho inyuguti mu ibara ry'icyatsi kibisi ndetse na oranje.

Amavuta yo kwisiga akozwe mu bihingwa bitandukanye, harimo n'igikakarubamba, ari mu macupa maremare ndetse n'irigufi, iruhande rwabyo hari icyapa, kigaragaza uburyo agomba gukoreshwa.

Umuti ukozwe mu gihingwa k'igikarubamba uri mu icupa ry'umweru rirerire rifite umufuniko w'umweru, kuri iri cupa kandi hariho ifoto igikakarubamba ndetse hariho inyuguti zanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi kibisi.

Umurima uteyemo ibihingwa by'igikaka rubamba byifashishwa mu gukora imiti izakoreshwa mu buvuzi gakondo bavuga indwara zitandukanye harimo indwara z'uruhu, indwara zo munda, ndetse n'izindi zitandukanye.

Umuti wo gukaraba mu mutwe ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba kugira ngo ukuremo imyanda iyo ari yo yose yaba iri mu mutwe, uri mu icupa ry'umweru rirerire rifite amabara y'icyatsi kibisi ndetse n'inyuguti zanditseho mu ibara ry'icyatsi kibisi.

Igihingwa cy'igisura, cyifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, harimo iz'uruhu, ndetse n'indwara zo mu nda, zishobora gufata abantu.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye, nka tungurusumu, tangawizi, umuravumba, igikakarubamba, ndetse n'ibindi bitandukanye, byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zifata abato ndetse n'abakuru.

Ahari ibihingwa by'ubwoko butandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, harimo indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye. Iruhande rwabyo hari ibikoresho byifashishwa mu kubitunganya.

Ahari ibyo kurya by'ubwoko butandukanye nk'ibitoki, ubunyobwa ndetse n'imboga rwatsi zitandukanye zifashishwa mu gukora imiti gakondo, izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara nyinshi, cyane cyane izifata abantu bakuru.

Icupa rirerire ririmo umuti w'ifu ukozwe mu gihingwa cy'umuravumba. Ni umuti ukoreshwa mu kuvura indwara z'ubwoko butandukanye cyane cyane indwara zo mu nda zafata abantu bato cyangwa abantu bakuru.

Ahari imiti y'ubwoko butandukanye ikozwe mu bihingwa, ikoreshwa mu kuvura indwara nyinshi cyane cyane kuvura indwara zo mu nda, kuvura ibisebe, indwara z'uruhu ndetse n'izindi zitandukanye. Aha kandi hari igikoresho kifashishwa mu kuyitunganya.

Ibihingwa byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu buvuzi bw'indwara zitandukanye, cyane cyane kuvura indwara z'uruhu ndetse n'indwara zo mu nda. Biri mu bikoresho bitunganyirizwamo kugira ngo bibone gukoreshwa.

Ahari imbuto z'ubwoko butandukanye nka'amaronje, pome, indimu ndetse n'izindi zitandukanye zifashishwa mu kongera intungamubiri ku muntu wakoze siporo cyangwa wakoze imyitozo ngororamubiri.

Amacupa maremare afite ibara ry'umuhondo, arimo umuti ukozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba wifashishwa mu kuvura indwara z'uruhu zifata abantu, kugira ngo umuntu akomeze kugira uruhu rumeze neza.

Amavuta akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba yifashishwa mu gukuraho indwara izo ari zo zose zaba zafashe uruhu. Ari mu macupa y'amabara atandukanye, umweru, umuhondo aho apfundikishije imifuniko itandukanye.

Ibihingwa harimo umuravumba, igikakarubamba, igisura, umweya ndetse n'ibindi bitandukanye byifashishwa mu gukora imiti gakondo izakoreshwa mu kuvura indwara nyinshi ziganjemo izo mu nda ndetse n'indwara z'uruhu.

Ahari amavuta y'ubwoko butandukanye akozwe mu bihingwa by'igikakarubamba, ari mu macupa maremare afite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, iruhande rwayo hari ibikarito birimo indi miti ikozwe muri ibi bihingwa.

Isabune ikozwe mu gihingwa k'igikakarubamba, ifasha uyikarabye kugira uruhu rwiza runyereye rudafite ibiheri. Iyi sabune kandi yifashishwa mu kuvura ibisebe by'uruhu ndetse n'izindi ndwara zitandukanye zafata uruhu.

Amacupa maremare afite ibara ry'umuhondo arimo amavuta akozwe mu gihingwa cy'igikakarubamba yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zafashe uruhu. Iruhande rwayo hateretse ikirahure kirimo umuti wo kunywa ukozwe mu gikakarubamba.

Ibinini byo kunywa byifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zaba zafashe abantu, biri mu gikarito gifite amabara y'umweru ndetse n'umutuku kandi cyandikishijeho inyuguti mu ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, ibi binini bifite amagarama magana atanu.